Iduka ririmo amoko agiye atandukanye y'imiti, yiganjemo iyifashishwa mu bworozi bayihereza amatungo, urugero: inka, ingurube ndetse n'inkoko. Aha ngaha kandi bakaba bakugira inama zijyanye n'ubuhinzi.

Umugabo w'umuhinzi, akaba afite ipompo afite mu mugongo, akaba arimo kugenda atera umuti, ari kugenda kandi afata inyanya akazikoraho kandi uyu nguyu yambaye na bote.

Itsinda ry'abantu bameze nkaho ari mu makoperative, imbere hakaba hari umugabo ufite isahani akaba arimo kugenda akoramo anyanyagiza ifumbire ku bigori, inyuma ye hariho umugore ufite igitambaro cy'umukara ugenda umufashije umufuka.

Umugabo uhetse ipombo mu mugongo arimo kugenda atera umuti, afite akantu arimo kugenda azunguza hanyuma kagasohora umuti uva mu ipombo, hanyuma akagenda anyanyagiza kugira ngo yice udukoko turi muri iyi myaka.

Iduka bacururizamo ibikomoka ku matungo ndetse kandi hakaba ushobora kuhagurira imbuto yo gutera ndetse kandi ushobora no kuhagurira imiti ushobora gutera mu bihingwa cyangwa se igihe ushaka kubitera mu murima.

Abahinzi bakaba bari mu murima uhinzemo umuceri, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, abenshi muri bo bambaye ingofero bakaba barimo kugenda bakusanya umusaruro weze, wiganjemo uwo muceri barimo kugenda batema.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore bakaba barimo guhinga. Aha ngaha ni igisambu kinini barimo kugenda bahinga. Inyuma hariho ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye cyane cyane ay'inturusu.

Igiti kimeze nk'umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara ndetse iki ngiki aho bitandukanira n'umuravumba, ni uko kigira ibibabi bibyibushye akaba ari igicuncu, kikaba gitandukanye n'umuravumba.

Itsinda ry'abantu bameze nka koperative barimo kugenda bacukura ndetse kandi bafite n'indobo y'umuhondo, barimo kugenda bashiramo ibyo bamaze gukura, abandi nabo barimo kugenda bitegereza ibirimo kujya mbere.

Iduka ririmo imiti y'amoko agiye atandukanye, cyane cyane yayindi bahereza inka igihe zarwaye ndetse n'andi matungo, akaba batanga ubujyanama bugiye butandukanye cyane cyane ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Imiti y'amoko agiye atandukanye ikunze kuboneka ahantu bacuruza imiti cyangwa se ahantu batanga ubujyanama bujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ari naho bita muri farumasi, aha ngaha ushobora kuhagana uka wayigura ukayikoresha.

Abantu barimo kugenda bayora ifumbire bagiye bakora, kwa kundi bafata ibyatsi bakabihuza n'ibindi byakomotse ku matungo cyane cyane nk'amase cyangwa amahurunguru.

Mu nzu icururizwamo imiti ndetse n'ibikomoka ku matungo, akaba hariho imiti ushobora kwifashisha mu gihe ugiye kuyijyana mu murima cyangwa se mu gihe ushaka kuyihereza amatungo.

Iduka ricuruza imiti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi, aha ngaha ushobora kuhagura imiti, ukaba wayikoresha mu bice bigiye bitandukanye, haba kuyahereza amatungo cyangwa se kuba wayatera mu bihingwa kugira ngo bice udukoko.

Iduka ririmo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye yiganjemo ihabwa amatungo ndetse n'iyifashishwa mu buhinzi hakaba habamo n'umujyanama ushobora kugufasha mu bijyanye n'ubuhinzi cyangwa se mu gihe ushaka korora.

Agace karunzemo ibishingwe, akaba ari bwa buryo bagenda bafata ibyatsi bigiye bitandukanye hanyuma bakabihuriza hamwe bagashyiramo n'indi fumbire ikomoka ku nyamaswa, barangiza bagakora ifumbire y'imborera.

Umugore ufite ifumbire mu isashi, arimo kugenda arinyanyagiza ku murima kugira ngo ashyire ku bigori bibashe gutanga umusaruro, ni uburyo bashishikariza abaturage gukoresha ifumbire mvaruganda barivanze n'imborera.

Umugabo ndetse n'umugore we bafashe ifumbire mvaruganda, barimo kugenda barishyira mu myaka yabo, bamaze kugenda baca imyobo aho bari bushire ibihingwa, bafite udukapu turimo iyo fumbire ndetse barimo kugenda baganira baseka.

Iduka ricuruza imiti yiganjemo iyo bahereza amatungo, indi nayo yifashishwa mu gushyirwa mu bihingwa mu gihe barimo kwica udukoko twibasira ibihingwa bigatuma itabona cyangwa si idatanga umusaruro uhagije.

Utubati turimo amoko agiye atandukanye y'imiti. Aha ngaha akaba ari aho bacururiza imiti, ukaba ushobora kuba wabagana mu igihe itungo ryagize ikibazo cyangwa se mu gihe ushaka inama ku bijyanye n'ubworozi.

Utuntu twinshi tumeze nk'utubuye gusa turagaragara nk'ifumbire mvaruganda, rikaba rikoreshwa mu buhinzi kugira ngo bongere umusaruro, aha ngaha umuhinzi aba agomba kurifata akarivanga n'ifumbire ry'imborera, hanyuma bigafatanyiriza hamwe mu gutunga ikimera.

Umugabo uhetse ipombo mu mugongo akaba yambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, arimo kugenda anyanyagiza umuti ku bigori kugira ngo bibashe gutanga umusaruro, aha ngaha arimo kugenda yica udukoko dushobora kuba twakwangiza imyaka.

Itsinda ry'abantu bafite ifumbire barimo kugenda banyanyagiza mu bigori. Bamwe barimo kugenda babagara, hanyuma abandi bakagenda bashyiraho ifumbire kugira ngo umusaruro ubashe kwiyongera.

Ubutaka burimo kugenda butegurwa kugira ngo babashe gushyiramo ibihingwa, hakaba hariho n'ifumbire bazagenda bashira mu bihingwa kugira ngo bibashe gukura kandi bimeze neza.

Ahantu hari iduka ricuruza imiti cyane cyane iyibanda mu ikoreshwa mu gihe bari kuyihereza amatungo cyangwa se mu gihe barimo kwica udukoko twaje mu myaka. Aha ngaha bakaba batanga n'ubujyanama ku buhinzi n'ubworozi.

Ikiganza gifite ifumbire mu ntoki rya rindi ry'imvaruganda rikaba risa umukara, akaba arimo kugenda areba ingano agomba gushyira ku kimera kugira ngo kibashe gutanga umusaruro kuko ifumbire ari inyongeramusaruro.

Abagabo b'abahinzi ndetse n'abagore bafite ibihoho bagiye bashiramo itaka kugira ngo babashe gushyiramo imbuto y'ibiti runaka kugira ngo bazabitere ahandi hantu mu gihe byamaze gushora imizi.

Umurima urimo insina ndetse kandi hakaba hahinze, izi ngizi ni zazindi bita fiya, aha ngaha ziri kandi hakaba igisigaye ari ugushyiramo imbuto igiye itandukanye bitewe n'uko babiteganyije.

Umurima munini cyane ukaba uhinzemo inanasi ziri ku buso bunini cyane, hakurya akaba ari imisozi ihanamye ndetse hakaba harimo ibiti bitajya bikura, aha ngaha ni ku gasi uretse aha ngaha hari izi nanasi zifashwe neza zikaba zinasasiye.

Umurima uhinzemo amashu, akaba ahinze ku murongo. Uyu murima warumaganye hakenewe amazi, kugira ngo habashe kuba hatoshye kandi hatange umusaruro.

Umugabo akaba afiti ikigori arimo kugenda agitonora, bimwe akabishyira mu mifuka, yambaye bote z'icyatsi n'ikoboyi akaba yambaye n'urupira rw'ingofero.

Umurima uhinzemo inanasi hakaba zigeze igihe cyo kuba zasarurwa, zikaba zifite ifumbire, aho ziri haratoshye, ni umuririma uhinze ku buso bunini ku buryo havamo ibiro byinshi by'inanasi.

Umurima urimo ibishyimbo bamaze igihe gitoya bateye, hanyuma hakaba harimo ibigorigori bakuyeho ibigori, kugira ngo ibi bizafashe ibi bishyimbo kuzamukiraho ubundi bizatange umusaruro nkuko baba babyiteze.

Akarima bagiye bategura. Hakaba harimo imbuto zikiri ntoya, aho bagiye bashiramo bakurikije imirongo bagiye baca. Aha ngaha akaba ari mu kibaya gikikijwe ndetse n'imisozi igiye itandukanye.

Umuhinzi uhagaze mu karima karimo amashu ateye ku murongo, arimo kugenda yitegereza ndetse hakurya hariho n'ibindi bimera biteyeho bimeze nk'ibiti.

Igisambu kikaba kirimo ibyatsi bigiye bitandukanye, harimo imboga ziganjemo intoryi ndetse kandi harimo amateke hakabamo n'ibiti by'imbuto zigiye zitandukanye, aha ngaha ukaba ushobora kuba wakuramo imbuto cyangwa se ibiriya biti bakaba babitema bakabicana.

Igihingwa ngegabukungu, bakaba bacyita ikawa, aha ngaha gihinze ni ku buso bunini cyane, kikaba ari igihingwa ngengabukungu kuko umusaruro ukivuyemo woherezwa mu bihugu byo hanze.

Akarima karimo ibishyimbo birimo kumera, hakaba harimo n'imyumbati, akaba ari bya bishyimbo byera bidasabye ko babanza gushyiramo imishigiriro, aha ngaha bikaba bimaze igihe gitoya babiteye.

Umurima uhinzemo inyanya zitaragera igihe cyo gutukura, hakaba harimo amatiyo ajyana amazi mu bice bigiye bitandukanye, aha ngaha zikaba zisabwa guterwa umuti kugira ngo zitazononekara mu gihe zahuye n'ibyonnyi.

Ahantu bakusanyirije ibitoki, hariho umuntu ufashe kimwe muri byo akaba ari kirekire cyane, aha ngaha bakaba babikusanyije kugira ngo babashe kubishakira abaguzi babijyana mu bice bigiye bitandukanye.

Ahantu hahinze ibimera bikiri bitoya ndetse hakurya hakaba hariho umusozi, hariho insina ziri mu kibaya ndetse hariho n'ibyatsi byagiye bimera mu gishanga, hino kandi hariho aho bagiye basubiriza aho byanze kumera.

Igishanga gihinzemo amateke, hakaba hariho aho baciye umuyoboro, hakaba harimo amazi yifashishwa mu gihe barimo kuhira. Hakurya hakaba hariho umurima urimo ibigori byamaze kuma ndetse kandi bamaze no kubisarura.

Umugabo w'umuhinzi, akaba ahinga ibitoki aha ngaha arimo kugenda akoraho kugira ngo agaragaze umusaruro, arimo kugenda areba ko keze kugira ngo abashe kuba yagitema nyuma azagikoremo imineke.

Umurima urimo ibiti bigiye bitandukanye byiganjemo iby'ikawa ikaba imaze gusaza, hakaba habura igihe gitoya kugira ngo babashe kuyisarura mu gihe haba hamaze gukurwamo ingemwe zazindi ziba zimaze gutukura.

Igihingwa cy'urubuto bita amacunga, kikaba giteganye n'insina zigera kuri ebyiri, ahantu kiri akaba ari n'ibindi bihingwa bihari. Aha ngaha bakaba bakora ibijyanye n'imineke mu gihe basaruye insina ndetse n'imbuto ku macunga.

Ibigori byenda kugira igihe cyo kwera, bikaba bifiteho ibigori, bikaba byarateranwe ifumbire birasa neza, bifite amababi y'imikara, ndetse kandi n'imbuto ya yindi ndende iba ifite ikigori kirekire.

Umurima urimo imyumbati ikiri mitoya, hakaba hariho ibindi bihingwa bikiri bitoya byiganjemo ibigori byagwingiye, hakaba hakurya hariho inzu z'amabati ndetse urengeje amasoso cyane hariho ishyamba.

Umurima urimo ibyatsi bigiye bitandukanye hakaba harimo ibiti bagiye batema, uyu murima nta bantu bafite bahahinga gusa wegereye ishyamba, icyo hasabwa ni ugushyiramo ibiti.

Ahantu hahinze ibirayi bakaba babiteye ku mirongo bikaba ari byinshi cyane ku busitani cyangwa se ku buso burebure akaba ari abahinzi babigize umwuga, aha ngaha basizeho n'ifumbire kugira ngo ibirayi birabashe gutohagira.

Aho bagenda batunganyiriza ibiti bikiri bitoya, aho bafata ibibuto bakabishyira mu butaka hanyuma bakabishyira mu isashi, byamara kuzamuka bakabikata amababi bakabibangurira, hanyuma abantu bakabigura bakajya kubitera.

Ahantu hari imyaka igiye itandukanye yiganjemo amashu, hakaba hariho inyanya ndetse n'ibindi byinshi, aha ngaha igihe uhageze ushobora kuba waharangurira imboga z'amako agiye atandukanye.

Umurima urimo ibigori biteye ku murongo ndetse kandi hakaba harimo aho bagiye babisasira kugira ngo bibashe gutanga umusaruro ndetse kandi mu gihe imvura cyangwa se izuba ryabaye ryinshi ntiribashe kuba ryabigeraho ngo ribyice.

Ibiti by'imiyenzi byifashishwa mu gihe bari gutandukanya umurima kugira ngo umuntu amenye mu we ndetse kandi ibi ngibi bibikora urugo, bikaba byakora n'uruzitiro. Ibi biti bikaba bigira amata mu gihe umuntu agiciye.

Umuntu ufashe ku giti cy'ikawa cyatangiye kuzana uruyange kikiri mu itaka bakaba baragiye bacyuhira kugira ngo kimere neza, aha ngaha kandi akaba arimo kugenda akoraho yerekana ko cyatangiye kuzana uruyange.

Ahantu bafashe ifumbire bakarirambika hasi, hariho kandi n'umukoropesho barimo kugenda bifashisha basanza iri fumbire, aha ngaha barimo kugenda baritunganya kugira ngo barijyane mu murima.

Urukwavu rwatorotse, rukaba ruri ahantu mu murima, rukaba rurimo kugenda rurya ibyatsi, ahantu ruri hakaba hariho ibyatsi bagiye batema rukaba rurimo kugenda rubivuyanga.

Ahantu hari inka imaze igihe gitoya ibyaye, ikaba irimo kugenda irigata icyo yabyaye, ikaba ifite imitavu igera kuri ine, ikaba irimo kugenda iyirigata ndetse kandi yose isa imikara.

Inkoko zijya gusa umweru zikaba zisa nkaho zirwaye, zikaba zifite amasunzu maremare, aya ngaya yose ni amasake ndetse kandi ageze igihe cyo kuba yaribwa cyangwa akajyanwa mu isoko.

Aho bororera inkoko hakaba harimo imishwi myinshi cyane, hakaba harimo naho igenda ifatira ibyo kurya. Aha ngaha kandi ni umworozi wabigize umwuga akaba afite inkoko nyinshi nawe ashobora kuba atazi umubare.

Udukwavu tugera mu icyenda bikaba ari nyina ndetse n'utwana twayo, aha ngaha zikaba zirimo kugenda zirisha ibyatsi bazihaye ndetse kandi ahantu ziri hasi harasasiye, zikaba zifite amabara agiye atandukanye.

Imiti y'amoko agiye atandukanye, iri mu macupa ay'umweru, ndetse n'andi ariho ibishushanyo by'ubururu. Aha ngaha akaba yifashishwa mu guhabwa amatungo, cyane cyane ubushyo, ndetse n'ubworozi bw'inkoko, aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'isi.

Umuti ushobora kwifashishwa mu kuvura inyamaswa ziganjemo inkoko, ihene ndetse n'izindi zagaragajwe kuri uyu muti. Ikaba ikora kuri mirongo icyenda n'umunane ku ijana, akaba ari cyo kigero uyu muti ushobora gukoreraho, ukaba wawusanga muri farumasi.

Umurima ukaba urimo imyumbati bagiye bakura, hariho n'umuntu urimo kugenda akusanya iyo yamaze gukura, kugira ngo ayijyane mu rugo abashe kuba nayirya cyangwa iy'ubugari babashe kuba bayinika.

Umuhinzi akaba ari mu murima w'ibigori arimo kugenda abishyiraho itaka kugira ngo bizatange umusaruro uhagije nk'uko aba abyiteze. Aha kandi arimo kugenda aharura n'utwatsi turimo kugira ngo agende ahakorera isuku.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, aba akaba ari abanyonzi ndetse abenshi muri bo barimo kugenda bakora umuganda, barimo kugenda basukura indabo bakuramo ibyatsi kugira ngo zisigare zisanzuye.

Abantu biganjemo urubyiruko bakaba harimo abarimo gupima ubutaka, umwe akaba ahagaze ahantu harunze ibyatsi, bya bindi baba bashaka gukoramo ifumbire, hakaba kandi hariho n'abandi barimo kugenda bitegereza ubutaka ko buteguye.

Umugabo w'umuhinzi akaba arimo kugenda atunganya umusaruro we akaba ahinga ibishyimbo, bikaba byaramaze kuma akaba ageze igihe cyo kuba yabisarura akabishyira mu rugo, yarangiza akabihura.

Abagore bagera kuri batatu barimo kugenda bahinga harimo n'ibigori birimo kugenda babagarira, muri uyu murima kugira ngo bagende bateremo indi myaka kugira ngo yere.

Umurima urimo abantu bagera kuri babiri, bakaba bahinga insina. Hakabarimo kandi n'iteke, aha ngaha barimo kugenda batunganya, kugira ngo bashyiremo ibindi bihingwa bijye bitandukanye, kugira ngo bongere umusaruro.

Umurima urimo ibyobo bagiye bacukura kugira ngo babashe gushyiramo ibihingwa, ni imirima iri ku butaka bakoze amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kurwanya isuri.

Umugabo uhagaze mu murima w'ibigori bimaze kwera, agiye afashe kuri buri kigori ndetse yambaye inkweto za congo akaba yambaye n'indorerwamo, arimo kugenda yerekana umusaruro we.

Abagabo ndetse n'abagore bakaba bitabiriye umurima, bamwe bamanitse amasuka abandi barimo kuyatwara gake gake basanze ubutaka, umwe ari kurimagura inyuma yabo hari insina bagiye batera.

Umurima urimo kugenda uhingwa ndetse bakagenda bawutegura kugira ngo bashyiremo imbuto. Harimo abantu bari guhinga, hakurya ho ntago hahinze, barimo kugenda bahinga agace ku kandi.

Umugore ufite itiyo ririmo kuvamo amazi arimo kugenda anyanyagiza mu bice bigiye bitandukanye by'uwo murima kugira ngo ibi bimera birimo bibashe kubona ububobere ndetse kandi bibe bifite amazi ahagije kugira ngo bitaza kuma.

Umugabo w'umuhinzi akaba arimo kugenda atabira, ari gufata ibyatsi akabishishura akabitabira yarangiza akarenzaho itaka hejuru, inyuma ye hari insina ndetse hakurya ni mu kibaya kikaba gihinzemo indi myaka.

Amoko agiye atandukanye y'ibinyamusogwe, hakaba harimo amashaza, ibishyimbo by'amoko agiye atandukanye, soya ndetse n'ibindi, hakaba umuntu ashobora kuza kubihaha bitewe n'ibyo akeneye, niyo mpamvu bagiye bafungura imifuka.

Umuguzi ndetse n'umugurisha barimo kugenda bafata inyanya bakazishyira mu dufuka tw'ingerero kugira ngo babashe kumenya ingano y'ibyo baranguye, aha ngaha umucuruzi atanga amafaranga, umuguzi cyangwa se urimo kumugurisha na we agatwara andi mafaranga ari na we muhinzi.

Amoko agiye atandukanye y'ibinyamusogwe, hakaba harimo amashaza, hakabamo soya, hakabamo ibishyimbo by'amoko agiye atandukanye, ku buryo umuntu ashobora kujya kubitera bitewe n'ibyo ashaka gusa kandi harimo n'umuceri.

Ikibaya kirimo umuceri hakurya harimo abantu barimo kurinda inyoni, hakurya hakaba hariho ibiti byinshi cyane hariho naho abantu bagiye batuye, aha ngaha bikaba bigeze mu gihe cyo kwera, kuko aha ngaha uyu muceri uratoshye kandi bagiye bashiramo amazi.

Abagabo babiri barimo kugenda batera umuti mu birayi byareze bifite uruyange ndetse kandi umuntu ashobora kuba yakicaramo ku buryo udashobora kumubona. Aha ngaha harabura nk'ukwezi kumwe kugira ngo babisarure.

Ahantu hari ikusanyirizo, hakaba harimo ibigori ndetse hakabaho abagore barimo kugenda babishyira hejuru, aha ngaha bamwe barimo kugenda babishayika kugira ngo babone uko babimanika hejuru maze bibone kuma.

Isoko rigari rikaba ririmo abacuruzi bagiye batandukanye n'imifuka yuzuyemo ibirayi, hakurya hakaba hari akana karimo kugenda kabicunga ndetse kandi abaguzi barimo kugenda bumvikana n'abarimo kugurisha ibi birarayi.

Isoko rigari rikaba riparitsemo imodoka, hakaba hariho umuntu urimo kugenda atora ibitoki akabishyira mu modoka kugira ngo babijyane mu bindi bice bigiye bitandukanye, aho batagiye beza.

Ahantu hari imifuka myinshi ndetse hakaba hari n'ibigori birunze hasi, ni bwa buryo bafata umusaruro bakawuhuriza hamwe mu ikusanyirizo hanyuma bakaba babyumisha nyuma yo kubyumisha bakaba babijyana mu nganda kugira ngo babashe kubitunganya.

Imifuka itandukanye irimo ibishyimbo harimo bimwe bitukura, hakabamo iby'imihondo ndetse n'andi moko agiye atandukanye, bimaze gusarurwa kugira ngo bijye gutunganywa.

Ububiko bashyizemo umusaruro w'ibirayi, aha ngaha akaba ariho umuntu aza kubigurira bakaba bamupimira ku biro agendeye ku byo akeneye, hanyuma nawe akishyura amafaranga kugira ngo abashe kubitwara.

Umurima uhinzemo ibirayi ku buso bunini bigiye biri mu bice bigiye bitandukanye, ibisa bagiye babihinga hamwe, hanyuma n'ubundi bwoko nabwo bakagenda babutera ku gace kabwo kugira ngo hatazagira ibyanduzanya.

Akarima karimo amoko agiye atandukanye y'imboga, hakurya hakaba hariho inzu nini imeze nk'urusengero, aha ngaha izi mboga barazisarura, hanyuma bakazigurisha ku baguzi, hanyuma bakazitegura mu biryo bigiye bitandukanye.

Ahantu hari ibiti birebire by'inganzamarumbo, birasororotse, aha ni bwa buryo bagenda batera ibiti kugira ngo bajye babasha kurinda ibidukikije ndetse kandi ibiti bibasha gukurura imvura, bakaba babikoramo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Akarima k'igikoni karimo amoko y'imboga zigiye zitandukanye ziganjemo dodo, zikaba zifite uruyange ndetse n'ubwerezwa, bigaragara ko zimaze gukura, aha ngaha bikaba bisaba ko bazitema kugira ngo zongere zishibuke.

Ahantu hari ibiti bagiye batema ndetse ibi bintu birabujijwe kuko uba ugomba gutema igiti warangiza ugatera bibiri mu rwego rwo gufata neza ibidukikije. Hakurya hariho ikindi kimwe kimwe, ahangaha ni agashyamba katarimo ibiti byinshi.

Umurima urimo ibigori bimaze igihe byeze ndetse bagiye bakokora amababi, igisigaye ni ukubikuramo bakabijyana aho babyanikira kugira ngo babashe gukuramo akawunga ndetse kandi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umurima urimo insina hakaba harimo n'ibishyimbo bagiye batera, hakurya hakaba hariho ishyamba, ahangaha kandi hari insina zenda gutangira kwera za zindi ziba zifite imineke iribwa.

Umurima urimo igiti kimwe rukumbi, hakaba harimo n'utundi dutoya. Hakurya hakaba hariho ishyamba ndetse kandi uyu murima wagiye umeramo ibyatsi by'amoko agiye atandukanye. Hirya kandi hariho ibiti birebire bikoze ishyamba.

Umurima urimo ibigori, hakaba harimo n'ibiti birebire bya gereveriya, ndetse kandi hari ibigori bimaze kugera igihe cyo kuba byasarurwa kuko bimaze kwera.

Umurima uhinzemo igisheke ndetse hakaba harimo n'amashu agiye atandukanye, hakurya hakaba hariho amateke. Aha ngaha kandi hakaba hatanga umusaruro cyane cyane ku bijyanye n'imboga by'umwihariko.

Ibiti bita ikawa, bikaba byifashishwa mu kuba byakoherezwa hanze, hariho n'ibindi bimeze nk'imisave, hakurya na ho hakaba hariho ibiti birebire, ibituma aha hantu hahorana ubuhehere.

Ishyamba ririmo ibiti bimwe byenda kugwa ndetse n'ibirebire cyane, hasi harimo ibyatsi bikiri bitoya na ho hakurya hariho uduti dutoya, ibi biti byiganjemo ibya pinusi.

Ahantu bahinze ibiti bakabishyira mu bihoho, bakaba bakeneye abantu babasha kubigura, kugira ngo bajye kubitera, babashe gukora ishyamba. Ahangaha bikaba biri mu bihoho, ndetse kandi bikenewe kwimurwa hakiri kare.

Agashyamba karimo ibiti birebire byiganjemo ibisupuri ndetse kandi ariho ibirimo kumera bikiri bitoya, nta bihuru byinshi birimo kuko ibi biti byamaze kurumbaza.

Ahantu hari imboga z'amoko agiye atandukanye, cyane cyane higanjemo dodo kuko zijya gusa nk'umutuku, hirya kandi hariho ubundi bwoko bw'imboga zigiye zitandukanye, aha ngaha ni akarima k'igikoni.

Umurima urimo insina ndetse hakaba hariho ibigori bigiye bitandukanye. Aha ngaha ni insina igera kuri imwe, hakurya hakaba hariho uruzitiro rukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, aha ngaha hakaba hatanga umusaruro muke.

Umurima urimo ibigori bagiye bakokoraho amababi bimaze igihe byeze ndetse kandi harimo igiti kimwe cy'umwumbati, igisigaye ni ukugira ngo bino bigori byume nibarangiza babijyane aho bahunikira imyaka.

Ahantu hari ibiti bigiye bitandukanye, hejuru hakaba haciyeho urusinga rw'amashanyarazi ndetse akaba ibi biti bikiri bitoya ku buryo bidashobora gukorwamo ikintu icyo ari cyo cyose uretse kubicana, bategereza ngo bikureho kugira ngo bikuremo ibindi bintu.

Igiti kinini cyane cyaguye ndetse kandi cyamaze kuma, aha ngaha harabura abaturage baza kugira ngo babashe kucyasa bagikuremo inkwi, cyangwa se babe bakibazamo imbaho zishobora gukoreshwa zikavamo ibikoresho nk'ameza, intebe n'ibindi.

Igihaza cya kindi bita igishayote, bakaba baracyubakiye, gifite imigozi kirimo kugenda kizengurukaho ndetse kandi hasi hariho amateke. Hakaba hariho n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, byagiye bimera bigikikije.

Igiti kinini gifite uturabo hakurya hakaba hariho ikivoka kinini cyane kiri inyuma y'inzu, ikaba ifite amategura ndetse hasi hariho amabuye atatse neza, aha ngaha kandi ni ku muhanda w'igitaka.

Urugi, za zindi zigezweho za metalike cyangwa se ziba zikoze mu cyuma, ifite amabara agiye atandukanye, akaba ari ubururu ndetse n'icyatsi, hakuno hakaba hari ubusitani bugizwe n'indabo zigiye zitandukanye.

Ubusitani bw'amoko atandukanye y'indabo, hakaba harimo twa tundi dukoreshwa ahantu mu ruzitiro tukaba bashobora kudukata kugira ngo bitaba igihuru, hino kandi hakaba hariho n'izindi ndabo z'amoko agiye atandukanye.

Iduka rikaba ririmo amoko agiye atandukanye y'imbuto yiganjemo imineke, amaronji ndetse n'amarakoja ndetse kandi aha ngaha hariho nimero z'uyu mwanya w'isoko aka ari magana ane na mirongo irindwi na gatandatu.

Abahinzi b'amashu bakaba barimo kugenda basarura ayamaze kwera, babiri muri bo barahagaze bari kwitegereza ibiri kujya mbere naho abandi bagera kuri batatu barimo kugenda bayatema kugira ngo bayajyane mu isoko.

Umugabo w'umuhinzi akaba arimo kugenda areba aho imbuto ze zigeze, akaba ahinga intoryi, akaba arimo kugenda areba zimwe zagiye zitukura kugira ngo azisarure abashe kuzijyana ku isoko na we abone amafaranga.

Umurima munini cyane ukaba urimo ibinyomoro, bimwe byatangiye gutukura bivuga ko bimaze kugera igihe cyo kuba byasoromwa bikajyanwa mu isoko, aha ngaha kandi birahinze ni byinshi cyane uyu muntu azabona amafaranga.

uUmurima uhinzemo intoryi zikaba ari nkeya, hino hakaba hariho amapapayi agera kuri abiri ndetse hakaba harimo n'amateke, aha ngaha kandi zigeze igihe cyo kuba zasarurwa.

Mu iduka hakaba hari imbuto cyangwa se imboga bita inyanya. Aha ngaha zikaba zitukuye cyane ku buryo umuntu waziguze, akazikoresha mu ifunguro rye rya buri munsi, ashobora kurya isosi ifashe kandi itukuye.

Ikimera bita ibinyomoro bikaba bifite imbuto zijya zitandukanye zitarizera harabura igihe gitoya zikaba zimaze gutukura, hanyuma uwazihinze agatangira akabona ku musaruro hanyuma na we akabona ku mafaranga.

Agace karimo imirima igiye itandukanye irimo imyaka ikiri mitoya, gusa harimo ibiti by'amoko agiye atandukanye, byiganjemo imyembe, hakabamo na voka bishobora kuba na byo ubwabyo byatanga umusaruro.

Ahantu hari igiti cya voka kikiri gitoya, hino hariho ikigori kandi ku ruhande hariho uruzitiro rw'ibiti twita imiyenzi, hirya kandi hakaba hariho inzu, aha ngaha ni igiti giteye ku rugo.

Ikigo kikaba kigizwe n'inkuta cyangwa se kikaba gifite inzugi z'imikara, imbere hakaba ari ubusitari bw'indabo ndetse akaba harimo n'umucaca. Izi ndabo kandi zigiye zirimo amabara agiye atandukanye.

Imiteja iri mu ibase ikaba itegereje ko abantu baza kuyihaha bakajya kuyitekaka hanyuma uyu mucuruzi uyifite akaba yabona amafaranga yo kumutunga mu gihe cyo kubaho kwe.

Ahantu bahinga inyanya hakaba zisasiwe cyane kugira ngo mu gihe cy'izuba ryinshi zitazabasha guhura n'ikibazo cyo kumagara mu butaka ndetse kandi bakaba bagenda bazitera umuti kugira ngo zibashe gukura neza nta byonyo birimo.

Imineke barambitse ku gikapu ikaba ari ya yindi iryoha cyane, ikaba isa umuhondo kubera ko bayihunitse ikaba imaze igihe kinini barayihubitse, aha ngaha ushobora kuba wawurya ku ifunguro ryawe nyuma yo gusoza.

Ahantu bakusanyije ibiti bya avoka bikiri mu bihoho. Barimo kujyana kimwe kimwe bakagitera kugira ngo babashe kubona umusaruro wa avoka. Aha ngaha bafata ibibuto bakabishyira mu itaka hanyuma byamara kumera bakabishyira mu masashe.

Umurima uhinzemo ibinyomoro, akaba ari kwa kundi abahinzi bamwe na bamwe bafata umwanzuro akavuga ko agomba guhinga ibyerekeye imbuto. Aha ngaha akaba yarahinze ibinyomoro akaba ategereje umusaruro.

Umurima uhinzemo karoti ndetse hakurya hariho imigozi y'ibijumba, hakaba hariho n'umurima urimo ibigori, aha ngaha kandi uyu muntu ntabwo ashobora kubura imboga zo gute kuko hariho karoti.

Isoko ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye byiganjemo imboga hakaba harimo karoti, intoryi, ibitunguru, sereri ndetse n'ibindi birungo bigiye bitandukanye umuntu ashobora kugura mu gihe ashaka kuyishyira mu biribwa.

Aho bacururiza imboga z'amoko agiye atandukanye, aha ngaha hakaba hariho ibitunguru aho umuntu ushaka kugura ibijyanye n'imboga ashobora kuza akaba yabigura, hanyuma akabikoresha mu gutegura ifunguro risa neza kandi rihumura.

Akarima k'igikoni kakaba karimo ubwoko bugite butandukanye bw'imboga ndetse kandi hakaba harimo n'ibigori, hakurya kandi hariho ibiti by'inturusu bimaze gukora ishyamba muri bwa buryo bwifashishwa mu kuba barinda ibidukikije.

Ahantu hari igiti gifite imizi ibyibushye. Hakaba hari indabo zifite utwerezwa cyangwa se uturarabo tw'umweru. Hakaba hariho n'amabuye atariho itaka.

Ahantu hari imineke igiye iri mu maseri, akaba hari amaseri agera kuri atatu, rimwe rikaba ririho utuneke dukeya ayandi agera kuri atatu akaba afite imineke irenga icumi.

Amoko agiye atandukanye y'ibiribwa, hakaba harimo ibihaza, bitunguru, imiteja ndetse n'ibindi bishobora gutegurwa nk'imboga, aha ngaha ni ku isoko, aho ushobora kuza ukaba wabigura.

Imbuto ziganjemo izo bita wotameloni zikaba bazikusanyirije hamwe kugira ngo babashe kuzijyana ku isoko, cyane cyane zirakundwa kuko ziba zifite amazi menshi kandi aryohereye.

Ahantu hakaba hari ibinyomoro ndetse kandi biri ahantu bagiye babibika, igisigaye ni ukugira ngo babishakire abaguzi babashe kubijyana mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu.

Akarima k'igikoni kakaba karimo imboga z'amoko agiye atandukanye, ziganjemo dodo. Aha ngaha zikaba zigeze igihe cyo kuba zasoromwa ndetse kandi bakaba bazitegura ku ifunguro rigiye ritandukanye, mu rwego rwo kongera imirire.

Imineke iri ku rutaro ndetse n'iyayindi twita kamaramasende, iy'ingiyi ushobora kuyirya ugafata nk'ibiri igihe umaze gufata ifunguro cyangwa se ukaba wayifata mbere yo gufata ifunguro.

Ahantu hari imbuto z'amaronji, bakaba bayifashisha mu kuba bayagurisha, cyangwa se umuntu akaba yayategura ku ifunguro rye rya buri munsi, kugira ngo abashe kuba ya yarya.

Imboga z'amoko agiye atandukanye ziganjemo karoti, imbwija, pavuro, inyanya ndetse n'ibindi, bikaba biteretse ku kantu ahantu mu isoko kugira ngo umuntu ubikeneye aze kubihasanga abashe kubigura.

Mu isoko akaba ariho abagabo baje kugura, hakaba hariho umuntu urimo kugurisha imbuto ziganjemo amaronji, hakaba hariho n'imboga zirimo imiteja, inyanya ndetse n'intoryi.

Aho bacururiza imboga hakaba hariho karoti zigera kuri esheshatu bagiye barambika hasi, aho izi ngizi ziba zarazanwe n'abahinzi hanyuma umuguzi akaba ashobora kuzisanga mu maduka.

Ikigo kirimo ubusitani bugiye butandukanye bwiganjemo indabo zirimo amoko agiye atandukanye, harimo indabo, ibiti, hakurya hakaba hariho n'imigano, imikindo ndetse kandi hariho n'amapoto y'amashanyarazi.

Umurima urimo intoryi bagiye bazisasira kugira ngo zitazahura n'izuba, iza mbere zatangiye kuzana imbuto aho nka nyuma y'ukwezi uba ugomba gusoroma kandi iyo utinze zihita zitukura, aha ngaha bateyemo nkeya kuko zigiye zitandukanye.

Isoko ririmo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, ndetse hakaba harimo imbuto z'amoko agiye atandukanye, akaba arimo amaronji, akaba harimo imyembe, hakabamo inanasi, ndetse n'amatunda.

Mu iduka hakaba hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imbuto, hakaba harimo pome ndetse kandi hakaba harimo imyembe ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Mu isoko hakaba harimo ibiribwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibirungo nka pavuro, inyanya hakaba hariho n'izindi mboga zigiye zitandukanye aho umuntu ashobora kuza kuzigura mu gihe azikeneye.

Ahantu ha hateretse voka zigera kuri ebyiri, zikaba zihiye ku buryo umuntu yahita azishyira ku ifunguro. Ziri kuri ya meza abari mu maresitora aho abantu bafatira ibyo kurya, aho bashobora kuzikoresha.

Akarima k'igikoni kakaba karimo karoti, imboga z'amoko agiye atandukanye, hakaba hateyemo n'ipapayi ku buryo umuntu adashobora kuba yabura urubuto. Aha ngaha kandi akarima k'igikoni kifashishwa mu gutegura ifunguro.

Isoko rikaba ririmo imbuto z'amoko ajya atandukanye, ziganjemo ibinyomoro, pome ndetse n'amaronji. Mu gihe ubikeneye, uraza ukabaza umuguzi cyangwa se wowe uba uri umuguzi, ukaza ukabaza umuntu urimo kuzigurisha, akaba yakugurisha.

Ahantu hari imbuto z'amoko agiye atandukanye, harimo izo bita wotameloni zigira amazi menshi cyane mu nda zikaba zisa umutuku, aha ngaha kandi baba bacuruza imboga n'imbuto z'amoko agiye atandukanye.

Umurima uhinzemo ibinyomoro bikaba igiti kimwe gifite ibirenga makumyabiri, aha ngaha hakaba hahingiye kandi ibi binyomoro byegereye ahantu hari ishyamba rinini cyane.

Umugabo urimo kugenda asasira amashu, arimo kugenda ayafasha kugira ngo atazahura n'izuba. Yambaye agapira k'umutuku, yambaye ikoboyi ndetse na bodaboda. Akaba arimo kugenda akurura ibyatsi.

Umugore urimo kugenda yuhira imyaka akoresheje uburyo bwa gakondo, afite uruho bagiye bapfumura arimo kugenda asukamo amazi ayakura mu ndobo, hanyuma amazi akanyanyanyagiza mu bice bigiye bitandukanye by'umurima.

Umugabo uhagaze mu murima rwagati, akaba ari umuhinzi w'ibinyomoro. Akaba yaragiye abisasira ariko ibyinshi muri byo bifite amababi apfunyaye, afite n'itiyo arimo kugenda anyanyagiza amazi akoresheje iyo tiyo.

Abagabo batatu bafite itiyo riremereye cyane, barimo kugenda banyanyagiza amazi mu bice bitandukanye by'uyu murima kugira ngo babashe kuhira imyaka, hanyuma ihorane ubuhehere.

Umugabo ufite itiyo ririmo kuvamo amazi, hakurya hakaba hariho abandi babiri, ahantu arimo kuvomerera hasa n'ahumaganye arimo kugenda anyanyagiza amazi mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo ubutaka buze kuba bufite ubuhehere.

Ikibaya kinini kikaba kirimo ibigori harimo inyubako zigiye zitandukanye zigaragaza aho bagenda bashira amatsinda ndetse n'amatiyo agenda ajyana amazi mu bice bigiye bitandukanye, aha kandi harimo ibigori byenda kwera.

Ahantu hari amatiyo hakaba hariho n'ibidomoro biri ku mugezi, bakaba barimo kugenda bavoma. Aha ngaha akaba ari bwa buryo bagenda bafata amazi yo kuvomerera mu bice bigiye bitandukanye by'umurima kugira ngo buhire imyaka.

Umugore urimo kugenda akuvomerera ubusitani afite indobo itukura, akenyeye igitenge n'igitambaro, arimo kugenda asukamo amazi kugira ngo uyu murima we uhorane ubuhehere, maze iyi imyaka ihore itoshye.

Ahantu banikira ikawa, aha ngaha hakaba ariho iyo bamaze gutonora ikawa baza bakayishyira ikabanza ikumuka, yamara kumuka bakaba bayijyana mu ruganda, igatunganywa ikaba yavamo ifu yo gukuramo ikawa yo kunywa.

Ikibaya kirimo umuceri ndetse hakuno hakaba hariho igiti cy'avoka, ku ruhande hakaba hariho ibindi biti by'amoko agiye atandukanye, wakerekeza amaso hakurya hakaba hariho agasozi gatuweho n'abantu.

Umurima uri ahantu mu gishanga ikaba ari udupariceri tugiye dutandukanye, bagiye bagome amazi bakayashyiramo kugira ngo haze kuba hatoseye hanyuma uyu muceri uzabashe gutanga umusaruro.

Ahantu hari ikibuga kinini cyane, kikaba ntakintu kirimo, aha ngaha akaba ari ubusitani bushobora kuba bwakwakira abantu benshi mu gihe habayemo ibirori cyangwa se mu gihe baremeyemo inama.

Ahantu bagiye batera icyayi bakaba bagiye bashinga uduti kugira ngo kigende gifateho, aha ngaha ni ku gasozi hakaba harimo abantu barimo kugenda bagitera ari nako bagenda bashinga utwo duti.

Umurima uri ahantu mu gishanga ukaba uhinzemo umuceri, hakaba harimo umuntu urimo kugenda awubagara, bagiye bayoboreramo amazi kugira ngo hahore hatoshye kuko umuceri wo ukuzwa n'amazi by'umwihariko.

Ahantu hari ibihuru bikaba byiganjemo amatovu ndetse kandi hakaba hadahingwa, aha hantu ni aho banyiraho bataye bakaba bamaze igihe kinini batahagera, hakaba hakenewe kugira ngo hitabweho.

Imisozi irimo icyayi ndetse kandi hejuru hariho ibiti by'inturusu, ahangaha kandi bikaba ari bimwe mu bikurura imvura mu gihe hari ubuhehere ndetse kandi iki cyayi cyoherezwa hanze bakaba babona amadevize.

Umugore akaba ari umuhinzi, afite isuka ku rutugu, akaba arimo kwitegereza umurima we uteganye n'imisozi miremire ndetse kandi ibi bigori bikaba bibura igihe gitoya bakabisarura.

Agace karimo amaterasi y'indinganire hakaba harimo imyaka igiye itandukanye, hakurya kariho akayira kagiye mu misozi igiye itandukanye, aha ngaha kandi hakaba hakikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Agace karimo imisozi miremire, ikaba ikozwemwo amaterasi ndinganire, ndetse kandi hakarimo amazu atuyemo. Aha ngaha akaba ari mu manegeka, abantu batuyemo bakaba basabwa kwimuka.

Umugabo akaba ari umworozi, akaba afashe inka ye, ikaba ari iy'umweru. Yafashe ku mugozi yashyize mu ijosi ndetse irabura igihe gitoya kugira ngo ijye ku mfizi.

Ubworozi bw'inkwavu zikaba zifite amatwi maremare. imwe iri hejuru mu madirishya n'izindi zigera kuri enye nazo ziri hasi. Aha ngaha zimwe zatangiye kugenda zibyara kugira ngo ubu bworozi bw'uyu muntu bugende butera imbere.

Ingurube ikaba irimo kugenda ifata ibyo bayihaye ikaba iri ahantu hazitiye hameze neza, hakurya hakaba hariho ibyana yagiye ibyara ndetse kandi ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru bigiye bivangavanze.

Ikiraro kirimo inka ifite amabara agera kuri abiri, akaba ari umweru ndetse n'umukara, hasi kandi harasasiye ku buryo iyi nka idashobora guhura n'ikibazo cy'umwanda ndetse kandi ahantu iri ntabwo ishobora gusohoka.

Aho bororera ingurube hakaba harimo ibigera kuri cumi na bitanu bikaba birimo kugenda bifata ibyatsi babihaye, ahantu ziri kandi harasasiye ndetse harimo ibijerekani bagiye bakata ari nabyo bagenda bashyiramo ubwatsi.

Inka ifite amabara agiye atandukanye, ikaba yarazonzwe kuko umunnyayo wayo wagiye n'inyuma, irimo kugenda irisha imihati bayihaye ahantu iri ni mu kiraro, hose harahumye ku buryo umuyaga udashobora kwinjira.

Ahantu hakaba hari ibiraro bigera kuri bibiri hariho ihene y'umukara ndetse bayizirikiye ku kiraro kugira ngo itagira ahantu ijya, ahantu iri kandi hariho amabuye, hakaba hariho umugozi muremure bayiziritse.

Aborozi hakaba harimo umwe umeze nk'umuganga w'amatungo yambaye amadarubindi, hakurya hariho n'abandi bantu harimo n'uwambaye wo mu nzego z'umutekano twita ''DASSO'', bakaba baje kuvura iyi nka.

Umugore w'umuhinzi akaba n'umworozi akaba afite ihene zigera kuri ebyiri, arimo kugenda azizirika ashyira imigozi mu majosi, hakurya hariho utwana tugera kuri tune twicaye mu mbuga, izi nzu zabo zikaba zubakishije ibiti bihomyeho ibyondo.

Umugore ukora ibijyanye n'ubworozi akaba yambaye ingofero y'umukara, iruhande rwe hari imbabura irimo kwaka ndetse ari kugenda afata imishwi ye akagenda ayigaburira, yasizemo imbabura kugira ngo iki cyumba kibashe gushyuha.

Inkoko igeze igihe cyo kubagwa, ikaba ari isake ifite imirizo miremire y'umukara, ifite n'amasunzu maremare, iyi ngiyi ikaba yarororewe ahantu heza kuko imeze neza, kandi ikaba ifite ibiro byinshi.

Ikiraro gifite ahantu bashobora gusuka amazi kugira ngo inka ibashe kunyweramo hakaba hariho n'aho irira, iyi nka ikaba ari iy'umukara ifite utubara tw'umweru ku maguru ndetse kandi inyuma hose hagiye hazitiye.

Umugabo uragiye inka akaba arimo kugenda areba uburyo irimo kurisha, yayisizemo umugozi kugira ngo itirukanka. Aha ngaha ari ikaba iri kurisha mu kantu gatoya kegereye inzira ndetse n'umuhanda.

Aborozi b'ingurube, akaba bimeze nk'aho ari mu makoperative kuko ari abantu benshi, buri wese agiye afashe iye, ayifatishije umugozi, hirya kandi hariho n'abandi barimo kwitegereza iki gikorwa.

Ahantu bakora ubworozi hakaba harimo inka zirimo kurisha, zifite amatwi maremare ndetse kandi aha ngaha ziri zororewe mu kiraro, muri bwa buryo bugezweho nk'uko Leta iba ibishaka.

Umugabo ukora ubworozi bw'ingurube akaba yagiye ayifata hanyuma aca ikijerekani ashyiramo ibyo kurya, ingurube ikaba irimo kugenda ifatiramo ibyo kurya. Hasi kandi hariho amacupa agera kuri abiri.

Ihene ziri ahantu mu kiraro zikaba ziziritse ku biti ndetse kandi ahantu ziri bagiye bashyiramo ubwatsi, ahantu ziri kandi ni mu kiraro ku buryo zidashobora kuba zasohoka mu gihe zaba ziciye.

Umworozi akaba yoroye inka, aha ngaha irasasiye ndetse kandi hakaba hariho aho arimo kugenda ayikorakora kugira ngo arebe ko imeze neza, ni inyana ikiri ntoya ndetse kandi yingiye nka nyuma y'amezi atandatu iba imaze kwima.

Inka iri mu kiraro yashonje hakaba hariho ubwatsi bayihaye, ariko ntabwo irimo kuburya. Iki kiraro nta suku bakigiriye, kandi ahantu inka iri ntabwo hasasiye ku buryo ishobora kuryama, iramutse ibikoze yahita yandura.

Ikiraro kirimo inka yabyaye, hariho akanyana kayo karacyari gatoya, hakurya hariho ibipfumure ahabasha guca umwuka, ahantu izi nka ziri harasasiye ndetse kandi harasa neza.

Inka irimo kurisha irasa neza ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hino hariho umunyu igenda irigata, hanyuma ikanywa n'amazi kugira ngo ishire ingizi.

Abagabo bagera kuri babiri ndetse n'umugore umwe n'umwana. Aha ngaha hari ihene barimo kugenda bazirika, hariho umwe urimo kugenda areba ikibazo zifite, kugira ngo abashe kuzivura azihe n'ibinini.

Ikigurube kinini kikaba gifite amezi, ahantu kiri huzuyemo isayo ntabwo bayigirira isuku, aho iri irimo kugenda irisha, ifite amabara agiye atandukanye, umweru ndetse inyuma ikaba ifite umukara ku kibuno.

Umugabo w'umworozi akaba arimo kugenda akora ku nka ye ayihereza ibyo kurya, yambaye ingofero y'umukara, agashati karimo utubara tw'umweru n'umutuku, yambaye inkweto z'umukara.

Inka iri ahantu mu kiraro itisanzuye ikaba iri kurisha, iyi nka kandi ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo umweru n'umukara bifatanye, iki kiraro irimo ntabwo gisakaye ndetse kandi ntabwo ibona uko yinyagambura.

Ihene yari ifite ikibazo bakaba bayiziritse hanyuma kandi mu ruhande, mu rubavu bakaba bayibaze harimo umuti bagiye bashyiramo bamaze kuyibaga, bageze aho barayidoda bakaba batumye imera neza.

Ubworozi bw'inkoko, hakaba hariho imishwi igiye itandukanye, aha ngaha basizeho ibiribwa, zikaba zirimo kugenda zitora, ndetse kandi hariho n'aho zigomba kunywera amazi mu gihe zimaze kurya.

Ahantu hari inka bagiye bazirika mu ijosi ikaba ikiri ntoya, nta bwatsi bayihaye irashonje inzara yenda kuyica. Iyi nka kandi inyuma yayo hariho ibiti bagiye batema bifite amababi amaze kuma.

Ahantu bagiye bakusanya inka bakazishyira hamwe, ahangaha ni hafi y'urwuri. Ni kwa kundi inka baba bazicyuye kugira ngo babashe kuzikama, ahangaha kandi harimo iz'umukara hakaba n'izindi zifite amabara y'ivangavanze.

Ikiraro kikaba kirimo ingurube nyinshi, muri zo ni iz'ibigabo cyangwa se imfizi, zikaba zigaragaza n'ubugabo zifite inyuma, ndetse kandi zigiye ziryamaho aha ngaha umuntu ushobora kuzigura zamuhenda.

Ahantu bakora ubworozi bw'ihene, gusa hano bimeze nk'aho ari mu isoko kuko ihene bagiye baziboha amaguru cyangwa se amaboko y'imbere, kugira ngo zitabasha kwirukanka cyangwa se zigasara, aha ngaha ni mu isoko baje kuzigurisha.

Umurima urimo ihene zigiye zitandukanye, hakaba hariho umuntu uzigiye. Arimo kugenda azicunga kugira ngo zitabasha guhura n'inyamaswa cyangwa se kugira ngo zitaza kuba zakwangizwa. Arimo kugenda azerekeza ahantu hari ubwatsi.

Ingurube ifite ibyana byinshi birimo konka, iyi ngurube ni iy'umweru ndetse ifite iribara ry'umukara ry'utudomagure ndetse kandi aha ngaha iri harasasiye harimo ibyatsi.

Ingurube ifite ibitwi birebire ishobora kuba isara, ikaba ari iy'umweru ndetse kandi n'iy'igipfizi, ikaba iri kugenda itoraguzwa ibyo ibonye hasi, hakurya hakaba hariho ikiraro cyayo hakaba hariho n'insina.

Ikiraro kiririmo umutavu umaze igihe gitoya uvutse, aho uri hakaba hariho ibyatsi bishashe, hakurya hakaba hariho urugi hariho ibiti byubatse neza iki kiraro ku buryo nta muyaga ushobora kwinjiramo.

Ikiraro kikaba kirimo inka ifite ihena ku gutwi, ahantu iri hakaba nta bwatsi buhari ndetse kandi ku ruhande ikiraro cyagiye gisenyuka, hari ibiti bimwe byagiye bivamo ku buryo umujura aramutse aje agatema igiti kimwe inka yahita isohoka.

Ihene zigera kuri ebyiri bagiye bazirika imigozi mu majosi, hakurya hakaba hariho ikigega, ahantu ziri kurisha ni mu busitani, hakurya hatatse indabo za zindi bagenda bacunga kugira ngo bazikore mu buryo bashaka.

Ingurube ifite ibibwana bigera ku icyenda bikaba birimo kugenda byonka. Aha ngaha iri mu kiraro ndetse kandi bakaba baragiye bagifata neza ku buryo idashobora kuba yasohoka ngo ijye hanze.

Ihene zigera kuri ebyiri bagiye bazirika zirimo kurisha, hakurya hariho insina hanyuma ku ruhande hakabaho igiti kirekire. Aha ngaha ziri ziraziritse nyuma y'igihe runaka baraza kuzimura.

Ahantu hariho abantu bagera kuri bane ndetse kandi bafite imitaka uhetse umwana ndetse kandi hakaba hariho inka zigera kuri eshanu bakaba barimo kugenda baziragira, wagira ni kwa kundi abantu baba bahawe inka mu buryo bwa gira inka.

Mu isoko hakaba ariho abantu barimo kugenda bagura, harimo n'abarimo kugurisha aha ngaha harimo imyumbati, hakabamo intoryi, hakabamo ibitunguru ndetse n'ibindi.

Ibigori bagiye bamanika hahandi aho babijyana kugira ngo babashe kubyumutsa, nibimara kuma babigende, babijyane mu nganda bibashe gutunganywa, bikurwemo kawunga ndetse n'ifu y'ibigori.

Ahantu bashigiye cyangwa se guhombeka intoryi, aha ngaha hari uturima tugera kuri dutatu, aho bagiye bahumbika intoryi kugira ngo bazabone imbuto yo kujya gutera.

Umurima munini, ukaba urimo imboga z'amashu ndetse hakurya hariho ibiti by'imiyenzi, izi mboga zikaba ziteye ku mirongo, zikaba zisa umukara kuko bazishyizemo ifumbire, ziracyari ntoya ntabwo ziragira igihe cyo gusarurwa.

Ahantu hakorerwa ibiti, ndetse kandi n'ibikiri bitoya, bya bindi bashira mu bihoho, kugira ngo babashe kuba babyimura, cyangwa se babitere mu gihe barimo gukora ishyamba. Aha ngaha hakaba hariho ibiti bya kawa.

Umurima urimo ibigori byumaganye. Igisigaye ni ukugira ngo bongere bahahinge bashiremo ibishyimbo bizazamukire kuri ibi bigori, hanyuma ntibirirwe bashyiramo imishingiriro.

Umurima urimo amashu bagiye buhira ndetse agiye ateye ku murongo kugira ngo azabashe gutanga umusaruro, bagiye bashyiraho irindi taka kugira ngo ribashe kurengera ku mizi y'izi mboga.

Ahantu hari inturusu ziri mu bihoho bakaba bategereje abakiriya kugira ngo babashe kujya kubitera ahantu kugira ngo bakore ishyamba. Aba ngaba bafata imirama ikiri mitoya bakayishyira mu itaka yamara kumera bakayishyira mu bihoho.

Agace karimo ikusanyirizo bashyizemo ibigori, bagiye babishandika, hanyuma bakabishyira ku biti kugira ngo bibashe kuma, nyuma y'igihe bazabijyane bijye gutunganyirizwa mu nganda kugira ngo babone umusaruro.

Abantu bagera kuri babiri, bakaba barimo kureba akarima k'igikoni. Kakaba karimo imboga z'amoko agiye atandukanye, higanjemo imboga z'amashu, hakaba harimo na dodo. Hakurya kandi hakaba hari abana barimo kwitegereza igikorwa kirimo kujya mbere.

Akarima k'igikoni gahinzemo ibirungo twita seleri ushobora kuba wateka mu isosi, mu nyama by'umwihariko ndetse kugira ngo bihumure, kandi ushobora no kuba wayiteka no ku bindi biryo.

Ahantu hari inka nyinshi hakaba harimo umugabo uhetse ipompo yayindi yifashishwa mu kuba batera imiti. Aha ngaha na yo ishobora gukenerwa mu gihe inka zirwaye uburondwe bari kugira ngo bagende bazikingira.

Abantu bagera kuri batandatu bari mu bugenzuzi, barimo kwitegereza inka zorowe, aha ngaha ni nyinshi ziri mu buryo bw'amakoperative aho ziri mu kiraro zirimo kugenda zirisha, bagiye bazitemagurira ibigori.

Inka imaze igihe gitoya ibyaye ikaba ifite ubwari bunini ndetse kandi igiye guta umuziha. Yafashe icyayo irimo kugenda ikirigata hanyuma ikigira ku ruhande.

Inka ziteraniye ahantu hamwe akaba ari kwa kundi baba bazihurije hamwe kugira ngo babashe kuzikama cyangwa se ari naho zitahira nyuma yo kuba bamaze kuzahura, zikaba zirimo amoko agiye atandukanye.

Umugabo muri ba bandi bakora ibijyanye no kwita ku matungo cyangwa se muganga w'amatungo, akaba ari kugenda atera urushinge inka ari na ko ayitaza kugira ngo itamutera umugeri, akaba yambaye uturindantoki tw'ubururu.

Abantu bagera kuri batanu, harimo abagabo bagera kuri bane ndetse n'umwana, hakurya hariho ikiraro kikaba kirimo inka, aha ngaha bari bafashe itungo ,barimo kugenda barivura kugira ngo rikire.

Umuganga w'amatungo akaba arimo kugenda akingira izi mbwa, aha ngaha hariho ba nyirazo barimo kugenda bazizana bakazifata hanyuma uyu muganga w'amatungo ari we bita veterineri akagenda azitera inshinge kugira ngo abashe kuzikingira.

Abantu bagera kuri bane, bakaba harimo abasore bagera kuri batatu n'umugore umwe, bakaba barimo kugenda bavura itungo ryagize ikibazo. Bari hafi y'ikiraro aho bakuye itungo bakaba barimo kugenda barivura.

Inyoni ifite amabara abiri, akaba ari umukara ndetse n'umweru akaba ari igikona, ihagaze ahantu hejuru ndetse irimo kugenda yitegereza mu bice bigiye bitandukanye, ireba mu kirere ndetse no hasi.

Inyamaswa imeze nk'inkende, yuriye hejuru ahantu hari imigano, yatereye umurizo hejuru ikaba ifite amabara yiganjemo ay'umukara, ikaba iri mu bwoko bw'inkende iboneka ahantu mu mashyamba.

Inyamaswa iri mu giti imeze nk'inkende. Iyi ngiyi kandi wagira ngo ni ingagi, yahenetse iminwa. Ahantu iri ni mu giti ndetse kandi hariho ikindi kimeze nka pinusi. Ingagi ni kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo mu Rwanda.

Inyamaswa ziboneka muri pariki y'Akagera, zikaba ziganjemo imparage ndetse hakurya hakaba hariho amasha arimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, aha ngaha ziri hakaba harimo ibyatsi birebire bitoshye kandi zikaba zibasha kubona ibyo zishaka.

Inyamaswa zirimo kugenda zirisha, aha ngaha ziri ni muri parike nasiyonali ni ho zikunze kuboneka kuko ni bimwe mu byiza bikurura ba mukerarugendo, ukaba ushobora kuzibona mu gihe wagiye kuzisura.

Inyamaswa imeze nk'inkende ikaba ifite ubwoya bw'umweru ndetse n'umukara, ikaba iteruye akana kayo, iri kwitegereza mu bindi bice ni iy'umukara ndetse kandi ahanini ni mu ishyamba aho abantu baba bashobora kuyisura.

Inyoni ifite umurizo muremure w'umukara ikaba ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo umutuku n'umuhondo ndetse kandi ahantu iri, iri ku rurabo, iyi ngiyi ni zazindi zikunda indabo kuko ziba zikuramo ubuki.

Inyamaswa irimo kugenda igana mu bice bigiye bitandukanye imeze nk'inka ndetse kandi ni uko inanutse wagira nko n'ihene. Aha ngaha ni inka yazonzwe cyane yabuze amata. Aha ngaha irimo iragana ni mu ishyamba.

Inyamaswa y'ingagi, ikaba irimo kugenda yurira mu biti. Izi ngizi zikaba zikurura ba mukerarugendo, ndetse kandi zikunze kuba ahantu hari ibirunga, cyangwa se ahantu hakonja niho ushobora kuzisanga.

Inyamaswa ebyiri zimeze nk'inkende zifite amabarage atandukanye yiganjemo umweru ndetse n'umukara, zikaba zirimo kugenda zurira igiti kimeze nk'ipera, ahantu ziri mu ishyamba ziba zikeneye gusurwa.

Inyamaswa zimeze nk'inkende zikaba zifite amaso manini ndetse kandi zifite amabara y'umukara ndetse n'ubwoya bw'umukara, izi ngizi zikaba ziboneka muri parike nasiyonale cyane cyane iy'Akagera.

Ikiraro kirekire cyane bya bindi biba hejuru aho umuntu agendera mu kirere mu gihe ashaka kwambuka, ibi ngibi kandi bikunze kuba nko mu mashyamba, aho umuntu agenda anyura hejuru kuri iki kiraro yitegeye ibyiza byishyamba.

Inyamaswa iboneka muri parike nasiyonari y'Akaygera. Ikaba irimo gutembera ishyamba irimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye kugira ngo ibashe kubona ahantu hari ibyiza byabasha kuyitunga. Aha ngaha mu gihe ugiye gusura iyi parike ushobora kuba wabona iyi nyamaswa.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo icyatsi, ubururu, umutuku iri ahantu hari uturabo. Iyi ngiyi ikunda kuba ahantu hari indabo zeze, aho iba icumamo uriya munwa wayo kugira ngo inyunyuze ubuki.

Inyamaswa bita inkende ikunze kuba ahantu hari abantu ndetse kandi ikunda kona imyaka mu gihe nk'ibigori byenda kwera, ikaba ikunda imineke cyane ku buryo udashobora kuyinyura iruhande iri kuyireba.

Akanyamaswa kameze nk'inturo kakaba kari hejuru mu giti, gafite udutwi ndetse neza neza wagira ngo n'imbeba, ikaba ifite umurizo ndetse ni muremure, ikaba irimo kugenda yitegereza mu bice bigiye bitandukanye.

Inyoni ikunda kugwa ahantu hari indabo cyangwa ahantu ishobora kunyunyuza ubuki mu rurabo, ikaba ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ay'umuhondo, umukara munsi hakaba hajya gusa umweru, ifite umunwa w'umukara ndetse irimo kwitegereza cyane icanye ku jisho, ikaba ihagaze ku giti.

Inyamaswa imeze nk'ihene, gusa ntabwo ari yo kuko ni zazindi ziboneka mu mashyamba agiye atandukanye, aha ngaha ikaba irimo kugenda irisha, ifata ibyatsi bigiye bitandukanye, ikaba iri mu ishyamba.

Imbwa zigera kuri ebyiri, imwe ikaba igaramye hasi yatereye umurizo hejuru, bigaragara ko irwaye cyangwa se ikaba isinziriye, indi yo yatereye umutwe hejuru irimo kwitegereza mu bice bigiye bitandukanye.

Inyamaswa ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo umukara ndetse n'umweru, iyi ngiyi bayita igikoni, iyi nyoni igaragara cyane cyane mu ikipe yo mu Rwanda yitwa APR ndetse kandi bigaragazwa n'uko yambara.

Inyoni ifite umunwa w'umukara ndetse n'imbanga y'umukara, ikaba ifite andi mabara y'umuhondo arimo uturongo cyangwa se utuntu tugiye tunyuzemo tw'umukara, ikaba iri ahantu mu giti, aha ngaha iri ni mu ishyamba.

Akanyamaswa gafite umurizo muremure ugasumba, kakaba kawutaritse hejuru, gafite udutwi dutoya gusa kajya gusa nk'urukwavu. Karahagaze, kasize amaboko hejuru, kakaba kari hejuru ku giti.

Inkende ebyiri ziri mu giti, imwe wagira ngo irimo guseka ndetse zirimo kureba mu cyerekezo kimwe, zirasutamye zafashe imirizo yazo ziyishyira munsi irimo kwerera, imbere mu maso harasa nk'umukara.

Inyamaswa zimeze nk'inkende, zikaba zirimo kugenda zizenguruka mu ishyamba, hakaba hariho ibiti birebire, hakurya hakaba hari ibihuru, aha ngaha akaba ari mu ishyamba aho inyamaswa zibaho zisanzuye kandi zitekanye.

Igisiga kiri hejuru mu giti kitagira amababi. Ikaba ifite umunwa w'umuhondo, ijosi ry'umweru ndetse n'amababa yayo asa umukara. Inyoni ikaba ikunze kurya inkoko mu gihe umuntu atabaye hafi.

Inyamaswa ifite amasunzu ndetse ikaba ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ubururu, iyi nyoni ikaba iri ahantu mu giti ndetse kandi kikaba gifite udushami tugera kuri tune, ifite amababi amwe itangiye kuba imihondo.

Inyoni ifite amabarage atandukanye yiganjemo umutuku ndetse ikagira n'andi mabara y'umuhondo iri ahantu mu giti, irimo kugenda ikebaguza kugira ngo irebe ibiturutse inyuma.

Abagabo barimo kugenda banyura kuri cya kiraro kiba muri Nyungwe aho abantu baba banyura hejuru kugira ngo babashe kugenda bitegereza ibyiza bitatse ishyamba ndetse kandi aha ngaha baba baca ni mu kirere.

Inyoni ifite urutwe runini ndetse ifite amabara agiye atandukanye, yiganjemo ubururu ndetse kandi iri ahantu mu giti hejuru, umurizo wayo ni muremure, irimo kugenda iwukoza ku ishami.

Inyamaswa imeze nk'inkende ikaba ifite ubwoya bw'imyeru ndetse n'umukara, irimo kugenda ireba hejuru ifite n'amaso y'umukara, iyi ngiyi ikaba iri ahantu mu ishyamba, aho umuntu ushobora kuyisura yayibona.